Ikimera gikundaga kuboneka mu bigunda ndetse no mu mashamba, kikaba ari ikimera c'icaatsi kigiraga amahwa, abantu bo mu caro bakundaga gukoresha kugira ngo bafumbire indiza buhiraga mu mirima zabo.

Igihingwa k'igishayote kimeraga gifite ibibabi byinshi by'icatsi. Kimeragaho ibihingwa by'ibidodoki, bikoreshwaga nk'imboga cangwa se bakabikoramo ibijyo bivanze n'ibishimbo.

Ikimera kibonekaga mu mashamba ndetse no mu bihuru, kikaba ari igikakarubamba ca kizungu, cifashishwaga mu kuvura mu nda ndetse no gukora imitako zo mu nzu.

Icimera ciri k'ubutaka gikundaga kuboneka cane ku bigunda ndetse n'ibihuru; bikaba ari ikimera kifashishwaga mu kugaburira amatungo agingurube.

Ikimera c'isombe cakuriye mu ishamba ahantu hegeye amabuye, kikaba ari ikimera gihingwaga kikaba kinavamo n'imboga baryaga bavanze n'ibindi birungo bamanje gusekura.

Ibimera bimeraga mu mashamba ndetse no mu bihuru, akaba ari ibimera bakundaga kugaburira inka n'andi matungo nk'ingurube, ibi bikaba ari ibimera bidakundaga kuboneka cane ahantu hose.

ikimera cy'ipapayi giteye munsi y'avoka, iruhande rw'igipangu cy'amabuye. Iki kikaba ari ikimera kimeramo imbuto z'ipapayi zikunda kugurishwa ku masoko.

Ikimera c'icatsi c'igisura giteye ahantu h'ibyatsi mu ishyamba, kikaba ari ikimera cyifashishwaga na none nk'imboga ariko kikaba gikundaga kuboneka mu mashamba.

Ikimera c'icatsi c'umugwegwe kikaba ari ikimera kibonekaga mu mashamba, ndetse no mu bigunda, kikaba gikoreshwaga mu kuvumbura imiti ivuraga mu nda.

Ikimera kibonekaga mu mashamba ndetse no mu bihuru citwa amatovu, cikaba ari ikimera gikoreshwaga nk'umuti go munda, ndetse bakaba banagishiraga mu mazi kugira ngo gabashe gusana neza.

Igihingwa co mu ishamba no mu bihuru c'ikibonobono, kirambitse ahantu hari amabuye giteye, ndetse hari n'ibyatsi byo mu ishamba. Kikaba gikundaga gukoreshwa nk'umushingirizo cangwa inkingi y'igitoki.

Amabuye g'amasarabwayi garundanyije ku ruhande gwa yo hari ibyatsi bagaburigwaga ingurube, ibi bikaba ari ibyatsi bikunda kuboneka cane mu bigunda ndetse no mu mashamba, bikaba ari ibyatsi bigahurigwaga inyamaswa z'ingurururu.